Umugabo mukuru w'inzobe wambaye imyambaro y'imikara ndetse n'umweru n'ubururu, ari imbere y'abantu benshi aho afite indangururamajwi, akaba afite ibintu runaka ari kugeza kuri abo bantu ku ngingo zitandukanye.

Mu cyumba cyiza cyane cyabagenewe, hateraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari kwiga ku ngingo zitandukanye, icyo cyumba kikaba cyifashishwa mu gukorerwamo inama ndetse n'ibirori.

Mu nyubako ya kaminuza hateraniyemo abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bicaye bafite ibyo kunywa imbere yabo, imbere yabo kandi nanone hari umuntu aho ari kubagezaho ibintu bitandukanye anabasusurutsa.

Mu bukangurambaga bwiswe rubyiruko menya amateka yawe, umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ari imbere y'abantu benshi, aho ari kubaganiriza, ku bijyanye n'ingingo zitandukanye zirimo amateka.

Ahantu habereye ubukangurambaga, umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru, afite indangururamajwi aho afite ibyo ari kugeza ku bantu bamukurikiye bari imbere y'iwe.

Mu cyumba cyabugenewe gifite amabara y'umweru harimo umugore wambaye imyambaro irimo ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, akaba afite ibyo ari kugeza ku bamuri imbere mu nama yabahurije hamwe.

Abagabo bane, barimo ukora mu kigo k'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha, ndetse n'abandi batatu, bari mu bukangurambaga bwiswe rubyiruko menya amateka yawe na none kandi hari imbaga nyamwinshi imbere yabo, aho bari kubaganiriza ku bijyanye n'ingingo zitandukanye.

Mu cyumba kiberamo inama, gifite amabara y'umuhondo weruye, umugore afite indangururamajwi, aho ari kugeza ijambo ku bantu bamukurikiye, hari kandi ibitambaro bikoze ibendera ry'Igihugu, bifite amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Mu kibuga kiza cy'ubwatsi bugezweho bw'ubukorano hateraniye abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyambaro yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse bakaba bari gukora iyo myitozo, ibi bikaba bibafasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Imbere y'imbaga nyamwinshi hari umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara ndetse n'umutuku n'undi mugabo ufite indangururamajwi aho aba bombi bari imbere bari gutanga ikiganiro mu bukangurambaga bwateguwe n'ikigo k'Igihugu gishinzwe iterambere.

Mu nyubako ya kaminuza ifite amabara asa n'umuhondo weruye, hateraniyemo abanyeshuri benshi ba kaminuza, bakaba bakurikiye ibyo bari kubwirwa n'itsinda ry'abantu cyangwa se umuntu uri imbere yabo.

Mu kibuga gifite ubwatsi butoshye, hateraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu, irimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, aba bakaba bishimye, aho bari mu bukangurambaga ndetse bakaba bafite n'imitaka bamwe. Hari kandi n'ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu cy'imodoka.

Mu bukangurambaga bwabereye ahantu habugenewe, hari umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru. Uwo mugabo akaba afite icyo ari kugeza ku bantu mu bukangurambaga bwahawe izina ryiswe "Rubyiruko menya amateka yawe".

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka mito atamiye inkono y'itabi, iyi nkono y'itabi ikaba yarakoreshwaga n'abasokuruza bacu, aho bashyiragamo ibintu bicumba maze bagakurura bakarekura umwotsi.

Ibikoresho bikozwe mu mbaho, bifite ibara ry'ikigina, bifite umwobo mu imbere. Ibi bikoresho bikaba byifashishwa mu muco nyarwanda ndetse bikaba bibikwamo n'amata.

Agakoresho gakoze mu bintu bitandukanye by'ibimera, kakaba gafite n'umufuniko, gafite ibara ry'umukara, aka gakoresho kakaba gafite byinshi kavuze mu muco nyarwanda, aka gakoresho kandi kakaba kifashishwa mu birori byinshi, harimo ubukwe ndetse n'ibindi.

Ahantu heza cyane habereye ibirori, hatatse imitako ifite amabara atandukanye, hari ndetse n'ibikoresho by'umuziki. Nanone kandi hari abantu bambaye imyambaro ya kinyarwanda yitwa imikenyero. Iyi ikaba izwi cyane mu muco nyarwanda ndetse ikaba ihabwa n'agaciro gakomeye. Nanone kandi hari umugabo wambaye impuzankano y'Igisirikare k'Igihugu.

Itsinda ribyina imbyino za kinyarwanda, rigizwe n'abagabo ndetse n'abagore, ryateraniye hamwe aho riri gususurutsa abantu. Rikaba riri gukoresha ibikoresho by'umuziki, birimo nk'ingoma ndetse n'imirishyo.

Ibikoresho bisongoye bifite ahantu bacomekamo umuheto, bikaba byifashishwa mu gukora ibintu byinshi birimo nk'ubuhigi. Ibi bikaba byari bimenyerewe cyane mu muco nyarwanda, aho guhiga byari bikemewe.

Muri imwe mu nyubako za kaminuza zikorerwamo ibintu bitandukanye harimo abasore ndetse n'inkumi b'abanyeshuri bakaba bicaye bari gukurikirana ibyo bari kubwirwa n'itsinda ry'abantu cyangwa se umuntu uri imbere yabo, bakaba kandi bafite amacupa arimo ibyo kunywa birimo amazi.

Mu byatsi byiza cyane bitoshye, harimo abantu barimo abambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'abandi bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, bari kubyina imbyino za kinyarwanda.

Uduseke turimo utunini ndetse n'udutoya dufite amabara y'umukara ndetse n'ikigina, tukaba twarifashishwaga cyane kera mu muco nyarwanda na n'ubu kandi tukaba tugikoreshwa mu birori bitandukanye birimo nk'ubukwe.

Abantu bicaye ahantu hateguwe neza bari gususurutswa n'itsinda ry'abakobwa bambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, abo bakobwa kandi bakaba bari kubyina imbyino zo mu muco wa kinyarwanda.

Mu mbuga nziza cyane irimo ibyatsi bitoshye hari itsinda ry'ababyinnyi ndetse n'abavuza ingoma bakaba bari kuririmba indirimbo za kinyarwanda ndetse banabyina izo ndirimbo, hari kandi n'umugabo uri kubyina ufite indangururamajwi ari kuririmbiramo.

Itsinda ry'ababyinnyi gakondo, riri ahantu hateganyijwe, bakaba bari gususurutsa imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye ndetse bakaba bafite irindi tsinda ku ruhande rwabo, riri kubabyinira rinabakomera amashyi kugira ngo bakomeze kubyina imbyino za kinyarwanda.

Itsinda ry'ababyinnyi bambaye imyambaro ya gakondo ndetse bafite n'ingabo mu ntoki n'amacumu bari kubyina, aho bari gususurutsa imbaga nyamwinshi y'abantu ibakurikiye, aba bantu kandi bakaba bafite n'abandi bari kubavugiriza ingoma.

Abagabo bambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'ubururu ndetse bambaye n'ingofero zibarinda mu gihe k'impanuka zifite ibara ry'umutuku bakaba bari ahantu hari ibyuma bicomekeranyije, aba bagabo bakaba bari mu kazi katoroshye aho ushobora guhubuka aba yahura n'ibibazo bikomeye.

Kimwe mu bikorwa remezo by'ingenzi cyane gikoze mu byuma bicomekeranyije kikaba kifashishwa mu kuvana umuriro w'amashanyarazi ahantu hamwe uwujyanwa ahandi unyujijwe mu kirere, ibi bikaba birinda impanuka kuko ugereranyije na mbere umuriro w'amashanyarazi wanyuraga mu butaka ariko ubu bikaba bitagiteza impanuka nanone kandi hari igiti cy'amashami akuze.

Mu cyumba kiriho ibikoresho by'amashanyarazi umugabo ari kubikora, uyu mugabo kandi akaba yambaye umwenda w'akazi, agapfukamunwa ndetse n'ingofero imurinda mu gihe cy'impanuka, ibi bikaba bimufasha bikamurindira ubuzima.

Hejuru y'inzu y'amabati agezweho afite ibara ritukura hari igikoresho k'ikoranabuhanga gihinduramo imirasire y'izuba mo amashanyarazi, ibi bikoresho bikaba ari ingenzi cyane kuko umuriro bitanga wifashishwa mu masaha ya nijoro mu kumurika.

Ibikoresho bitanga umuriro w'amashanyarazi birimo icyifashishwa mu guhindura imirasire y'izubamo amashanyarazi, na none kandi hari kimwe mu bikoresho kibikwa uwo muriro ndetse n'amatara asakaza urumuri rukomoka kuri iyo mirasire.

Umukozi wabugenewe ubifitiye ububasha, yambaye uturindantoki, akaba ari gukora ibyuma byifashishwa mu gusakaza umuriro w'amashanyarazi. Ni ngombwa cyane ko ahakambarwa utu turindantoki kuko mu gihe dutambawe hashobora kuba habamo impanuka.

Umugabo wambaye imyambaro y'akazi ifite amabara atandukanye ndetse n'inkweto zabugenewe, yuriye umuyoboro w'amashanyarazi. Uyu mugabo akaba afite icyo ashinzwe mu kigo k'igihugu gishinzwe amashanyarazi.

Kimwe mu bikorwa remezo cy'ingenzi cyane, cyifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi, unyuze mu kirere, hari kandi n'ibihingwa, birimo nk'insina na none kandi hari inzu zituwemo n'abantu ndetse n'akayira k'abanyamaguru.

Amatara meza cyane yo ku muhanda, ararekura urumuri rwiza, aya matara akaba abonesha mu gihe k'ijoro, bikorohereza ibinyabiziga gutambuka, inyuma yayo kandi hateye ibiti byiza byo ku muhanda.

Umugabo wambaye inkweto kabuhariwe zimufasha kurira umuyoboro w'amashanyarazi, akaba yambaye n'ingofero imurinda mu gihe cy'impanuka, akaba ari gukora umuyoboro w'amashanyarazi wagize ikibazo. Uyu kandi akaba akorera ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu.

Ibyuma bikoze mu byuma bicomekeranyije byifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi mu kirere, ibi byuma bikaba ari ingenzi cyane aho byakuyeho uburyo bwari busanzweho bwo kunyuza insinga mu butaka, ubwo buryo bukaba bwaratezaga impanuka nyinshi.

Abagabo babiri barimo uw'umuzungu ndetse n'umwirabura bambaye ingofero zibarinda mu gihe k'impanuka bari gukora amashanyarazi, ibi bikaba bifasha kuko mu gihe haba habaye impanuka izi ngofero zishobora kuba zatabara umutwe wabo bityo ntiwangirike cyane cyane ko aka kazi gakunda kubamo impanuka.

Ibikoresho kabuhariwe biri ahantu hakomye bikaba byifashishwa mu gusakaza umuriro w'amashanyarazi, hari kandi n'itara rihamurika mu gihe cya nijoro, ibi bikoresho bikaba ari ingenzi cyane ari na yo mpamvu biba birinzwe.

Ibyuma by'ikoranabuhanga kabuhariwe mu gukusanya umuriro w'amashanyarazi. Ibi byuma bikaba bikusanya umuriro uvuye ku rugomero, maze bikawohereza binyujije mu nsinga zinyura mu kirere ndetse no mu butaka.

Imbere y'inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ndetse igerekeranyije hari umuhanda mwiza aho ukiri gukorwa ndetse kandi muri uwo muhanda harimo abantu bari kugenda n'amaguru.

Umugore uhetse umwana ndetse afite n'undi mu ntoki afite ibintu yikoreye ndetse n'agasuka aho ari kunyura ku kiraro k'ibiti, iki kiraro kikaba kigaragara nk'aho cyashaje ariko nanone kikaba kigikoreshwa.

Inzu nziza ifite idarapo ry'Igihugu imbere yayo, ikaba itangirwamo serivisi zitandukanye zigendanye n'ubuyobozi. Iyi nzu kandi mu mpande zayo hakaba hari ibiti bitanga umuyaga mwiza.

Abantu benshi bateraniye iruhande rw'ikiraro gifite amabara y'icyatsi kibisi, iki kiraro kikaba kifashishwa mu kwambuka abantu bava hakurya bajya hakuno nanone kandi hari imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange.

Indabo nziza cyane zifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, iri imbere y'inyubako ifite ibara ry'ubururu yanditseho ijambo Gira ubuzima, imbere y'inyubako kandi hari kandagira ukarabe ikoreshwa mu gusukura intoki.

Inyubako za Leta zubatse munsi y'umusozi ndetse zisakaje amabati y'ubururu, zikaba zegeranye n'umunara muremure w'ibyuma ufite amabara y'umweru ndetse n'umutuku. Nanone kandi hari ibiti by'ubwoko bwose.

Inzu ifite amabara y'umweru, icyatsi kibisi ndetse n'ubururu, ikoze neza, ifite ikigega gifata amazi y'imvura. Ayo mazi y'imvura akaba yifashishwa mu gihe andi mazi meza adahari, cyangwa se akaba yanayasimbura. Imbere y'iyo nzu kandi hari icyapa kinini cy'umweru, gifite inyuguti zandikishije amabara y'umukara ndetse n'ubururu.

Inyubako za Leta zubatswe mu buryo bugezweho zikaba zikoreshwa mu bintu bitandukanye, zikaba kandi zizitiwe n'urudandi rukoze mu byuma aho ari kugira ngo acungwe umutekano ntabe ari buri wese wapfa kwinjira muri izo nyubako, zikaba kandi zifite n'ibyuma bigezweho hejuru bishyushya amazi.

Abantu benshi barimo n'umugabo w'umuzungu bari imbere y'inyubako ifite ibara ry'ubururu, isize amabara meza ndetse ifite icyapa cy'aho hejuru cyanditseho ijambo igira ubuzima, ikaba itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuzima.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti ndetse ukaba usa nk'aho unyerera nyuma y'aho imvura imaze kuwugwa impande z'uwo muhanda kandi hari umuyoboro utwara amazi mu gihe k'imvura kugira ngo atuzura mu muhanda hari kandi n'umuyoboro w'amashanyarazi unyura mu kirere.

Abana barindwi barimo abahungu ndetse n'abakobwa, bateraniye imbere y'inyubako nziza cyane, ifite ibara ry'ubururu, yubatswe mu buryo bugezweho, imanitseho icyapa cyanditseho ijambo gira buzima, ikaba itangirwamo serivisi z'ubuzima na none kandi iyo nzu, ifite ikigega gifata amazi y'imvura.

Imbere y'inyubako ya Leta hari ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru kifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu. Imbere y'iyo nyubako kandi nanone hari igiti kinini k'inganzamarumbo ndetse n'indabo zifite amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi.

Isoko y'umuriro w'amashanyarazi wifashishwa cyane mu gihe cy'ijoro n'amatara amurika mu mihanda. Aya matara akaba afasha ibinyabiziga mu kugenda neza nijoro nta nkomyi. Nanone kandi hari umuhanda ugezweho, aho uri kugendwamo n'ikinyabiziga.

Munsi y'umusozi hari inyubako za Leta zubatswe mu buryo bugezweho, zubakishije amatafari ndetse zigerekeranyije zinasakaje amabati y'ubururu, nanone kandi hari umunara ufite amabara y'umweru ndetse n'umutuku muremure hari kandi n'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange iri guturuka aho izo nyubako ziri.

Mu muhanda wabugenewe, harimo ibinyabiziga bizwi nk'imodoka zitwara imizigo na none kandi harimo ibindi binyabiziga birimo ipikipiki, ikinyamitende ndetse kandi hakaba hari kunyuramo n'umunyamaguru.

Inzu yabugenewe ikozwe mu mabati ndetse no mu byuma, ifite ibara ry'umutuku ndetse n'ikigega gifata amazi. Iyo nzu ikaba yifashishwa mu kubika umusaruro w'ibigori mu gihe uba utaratunganywa.

Inyubako zubatswe na Leta, zubatswe mu buryo bugezweho ndetse zubakishije amatafari ahiye, zifite n'amabati atukura, izi nyubako zikaba zaragenewe guturwamo n'abatishoboye, bakuwe mu midugudu hirya no hino, bagashyirwa hamwe bakitabwaho.

Ikibuga kinini cyubatswe mu buryo bugezweho kisanzuye gifite ubwatsi bw'icyatsi kibisi ndetse kikaba kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, icyo kibuga kikaba gikinirwaho imikino itandukanye ariko by'umwihariko umukino w'umupira w'amaguru, hakaba kandi hari n'ahantu habugenewe hicarwa n'abantu baje kureba uwo mukino.

Imbere y'inyubako y'ibiro by'Umurenge hateraniye abagore, abagabo ndetse n'abandi bantu benshi bakaba bari mu nama nanone kandi hari ikinyabiziga k'imodoka gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara kifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu.

Abagabo bambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, bateraniye ahantu hamwe, aho bagiye gushyira indabo ku rwibutso rw'abazize Jenoside mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane.

Mu nyubako nziza cyane ifite amabara y'umweru hateraniyemo abagabo benshi barimo abambaye imyambaro y'ubururu, umukara ndetse n'iyindi nanone kandi harimo abagabo bambaye imyambaro y'impuzankano y'Igisirikare k'Igihugu.

Itsinda ryabantu ririmo abagabo bafite ibyo bashinzwe bitandukanye bari mu kanyati mu kibuga gifite ibyatsi bitoshye nanone kandi hari ikinyabiziga kiza cy'umukara kifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, hari kandi n'igihingwa k'insina zera ibitoki.

Ahantu hateguwe hakaba hateraniye abantu baje kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, na none kandi hari abagabo babiri umwe muri bo wambaye imyambaro y'igisirikare ndetse undi akaba yambaye imyambaro y'igiporisi. Na none kandi hari indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi.

Ahantu hateguwe hari kubera ubukangurambaga, hari imbaga nyamwinshi y'abagabo ndetse n'abagore harimo n'urubyiruko. Aba bakaba bakurikiye umugabo uri imbere yabo uri kuvuga yifashishije indangururamajwi.

Ahantu habugenewe hateguwe neza hari itsinda rinini ry'abantu, aho bari kwitegereza umuntu uri imbere yabo, ari kubagezaho ibiganiro bitandukanye. Aba kandi bakaba barimo: abagabo, abagore ndetse n'undi mugabo wambaye impuzankano y'igipolisi k'Igihugu.

Imbere y'inyubako z'ibigo by'amashuri hateraniye imbaga y'abantu nyamwinshi, irimo abagabo ndetse n'abagore nanone kandi imbere y'ayo mashuri hakaba hari ibiti, ibi biti bikaba bihuha umuyaga mwiza winjira mu mashuri maze bigatuma hatabamo ubushyuhe bwinshi.

Mu cyumba kiza cyane gifite amabara y'umweru. Hateraniyemo abagabo bafite ibyo bashinzwe bitandukanye. Harimo abambaye impuzankano z'igisirikare k'igihugu ndetse n'abambaye imyambaro y'abashinzwe abagororwa. Bakaba bari kwiga ku ngingo zitandukanye.

Ahantu hateguwe, hakaba hari kubera ubukangurambaga, ubu bukangurambaga bukaba bwitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye barimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, aba kandi bakaba bambaye udutambaro ku ijosi, tugaragaza ko bari kwibuka.

Itsinda ry'abantu barimo abazungu ndetse n'abirabura, bateraniye ahantu hamwe mu nyubako yubakishije amatafari ndetse ifite amadirishya manini, bakaba bari gusabana, aho bamwe muri bo bambaye imyambaro ya Kinyarwanda izwi nk'imikenyero.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'ubururu ndetse n'inyuguti zandikishije ibara ry'umweru, kikaba kerekana ko ari ahantu imodoka zagenewe guhagarara umwanya muto. Nanone kandi hari umuhanda ugezweho ufite ibara ry'umukara, hari kandi n'inzu yagenewe guturwamo.

Mu nkengero z'umuhanda mwiza cyane ugezweho ufite amabara y'umukara ndetse n'umurongo w'umweru, hari icyapa gifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, iki cyapa kikaba gifite byinshi kerekana ku bakoresha umuhanda. Hakurya y'umuhanda kandi hari ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Ikinyabiziga k'imodoka gifite amabara y'umweru uteruye kiri mu muhanda wabugenewe ugezweho wubatse neza ndetse ufite amabara y'umukara ndetse n'umweru, uyu muhanda nanone ukaba urimo ibindi binyabiziga birimo nk'amapikipiki.

Imodoka nini ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara n'icyatsi kibisi, yifashishwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange, iri mu mbuga ngari, aho imodoka zihurira. Hari kandi n'inzu z'ubucuruzi ndetse n'ikindi kinyabiziga gito, gitwara abantu mu buryo butari ubwa rusange.

Mu kazu kari mu nkengero z'umuhanda gategererezwamo n'abagenzi mu gihe bategereje imodoka zibatwara mu buryo bwa rusange hicayemo abantu. Imbere y'ako kandi hari ikinyabiziga k'ipikipiki gihetse umutwaro.

Ku kibuga cy'ibitaka, hari ikinyabiziga cy'ipikipiki ndetse n'umugabo ucyicaye kuri icyo kibuga kandi hari ibinyabiziga bindi bitandukanye, birimo nk'imodoka, zaba inini ndetse n'into, izo modoka zikaba zifashishwa mu kwigisha abantu gutwara.

Mu mbuga ngari aho imodoka zihurira hari ibinyabiziga bitatu byifashishwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange na none kandi hari imbaga nyamwinshi y'abantu, aho bamwe baje gutega imodoka.

Umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara, akaba ari imbere y'abantu, aho ari gukoresha indangururamajwi kugira ngo abo bantu bumve neza na none kandi hari igiti kinini cy'inganzamarumbo, gifite amashami manini.

Abantu babiri barimo umugabo, wambaye impuzankano y'igisirikare cy'Igihugu ndetse n'undi muntu wambaye imyambaro isanzwe, bakaba bafite ibikoresho byifashishwa mu buhinzi, aba bantu kandi bakaba bari guhinga mu murima ukikijwe n'ibimera bitandukanye.

Umugore wambaye imyambaro myiza cyane ifite ibara ry'umukara ya polisi y'Igihugu, akaba afite mudasobwa imbere ye, uyu mugore akaba afite byinshi ari kugeza ku bantu bari mu nama ayoboye.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, irimo abagabo ndetse n'abagore, bateraniye hamwe aho bakurikiye umugabo uri imbere yabo, akaba ari kubaha ikiganiro ku bijyanye n'umutekano na none kandi hari ibihingwa bitandukanye, birimo insina zera ibitoki.

Abantu benshi bakoraniye hamwe ku manywa y'ihangu, muri bo hakaba barimo umugore uhagaze ufite indangururamajwi y'umutuku, bikaba bisa nk'a hari ikintu runaka ari kugeza kuri abo bantu bateraniye aho.

Inzu yubatse mu matafari y'ibyondo itaruzura neza, ariko ikaba isakajwe amabati, iri gutangwaho umuganda n'abakorerabushake, bambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ibara ry'icunga. Imbere y'inzu kandi hari ibihingwa birimo amasaka.

Itsinda rigari ry'abantu, barimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, bateraniye ahantu hamwe mu gisambu kinini, aba bantu bakaba bafite amasuka, aho bari gukora imirimo itandukanye, irimo ubuhinzi.

Itsinda rigari ry'abantu, barimo abagabo, abagore, bateraniye ahantu hamwe mu byatsi, bakaba bakurikiye umuntu uri imbere yabo, ari kubaganiriza ku bijyanye n'ingingo zitandukanye na none kandi hari ibihingwa bitandukanye, birimo nk'insina zera ibitoki.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari na nini cyane yifashishwa mu kwakira imikino itandukanye irimo cyane cyane umupira w'amaguru. Aha kandi hakaba hari abantu batandukanye bahakoraniye, barimo abagabo ndetse n'abagore.

Mu bukangurambaga bwateguwe, aho hateraniye abagabo, abagore ndetse n'abana, hari umugabo wambaye impuzankano z'igipolisi cy'igihugu, aho afite indangururamajwi, akaba afite ibyo ari kugeza ku bantu bamukurikiye.

Ruguru y'ikigo cy'amashuri mu muhanda hari kuberamo igikorwa cy'umuganda, iki gikorwa kikaba cyahuje abantu b'ingeri zitandukanye barimo n'abagabo bambaye impuzankano z'igisirikare k'Igihugu, hakaba kandi harimo n'abagabo ndetse n'abagore, hakurya y'aho hakaba hateye igihingwa cy'amasaka.

Abagabo barimo umugabo wambaye impuzankano y'igisirikare cy'igihugu, batwaye amabuye aho bagiye kubaka ibikorwa bitandukanye mu gikorwa cy'umuganda nanone kandi hari umurimo mwiza uhinzemo ibigori bishishe.

Mu kibuga kiza cyane gifite ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi kibisi ritoshye harimo umusore wambaye imyambaro yabugenewe yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ifite ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi nanone kandi hari inzu zubatswe mu buryo bugezweho zituwemo n'abantu.

Mu marushanwa ahuza imirenge, amakipe abiri yambaye imyambaro y'ubururu ndetse n'umuhondo ari gusohoka mu rwambariro aho ayobowe n'abasifuzi bambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi bakaba bagiye gukina umupira.

Mu kibuga gikikijwe n'ubwatsi butoshye, harimo abagabo bambaye imyambaro yabugenewe yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, abo bagabo bakaba bari gukina umupira w'amaguru kandi hari n'undi mugabo uri hakurya wicaye ari kubareba,

Mu kibuga cyiza cy'umupira gifite ubwatsi bw'ubukorano, harimo abagabo babiri, bambaye imyambaro yabugenewe yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara wijimye, abo bagabo bakaba bari gukina umupira w'amaguru.

Umugabo wambaye imyambaro yifashishwa, mu myitozo ngororamubiri, ifite amabara y'umuhondo n'umukara, ari mu kibuga gifite ubwatsi bugezweho bw'ubukorano ndetse gifite n'imirongo ishushanyije ibara ry'umweru.

Ahantu hateguwe hafite amabara y'umweru ndetse hari n'amabara y'idarapo ry'Igihugu ari yo: ubururu, umuhondo n'icyatsi, hateraniye abantu bicaye barimo abagabo bambaye impuzankano z'igipolisi k'Igihugu, aho bari kuganira ku ngingo zitandukanye zirimo n'umutekano.

Ikipe y'abakinnyi bambaye imyambaro ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, bakaba bicaye ku gatebe kari impande z'ikibuga gikoze neza. Aba bakaba bagize ikipe y'umukino w'umupira w'amaguru, bakaba bicaye mu nyubako nini, yagenewe kwakira imikino irimo n'umupira w'amaguru.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko, bambaye imyambaro yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, bakaba bari mu nkengero z'ikibuga aho bari gukora iyo myitozo. Iyi myitozo kandi ni ingenzi cyane kuko ituma tugira ubuzima bwiza.

Mu kibuga kiza gifite ubwatsi butoshye bw'ubukorano harimo abantu babiri umwe muri bo wambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi akaba ari mu izamu, hari n'undi kandi wambaye imyambaro ifite ibara ry'umuhondo, bombi bakaba bari gukina umukino w'umupira w'amaguru.

Ni ngombwa cyane ko dukora imyitozo ngororamubiri kandi tukayikorera ahantu habugenewe twambaye imyambaro yabugenewe. Imyitozo ngororamubiri ifasha kugira ngo umubiri urwanye indwara zitandukanye kandi ikaba itaragenewe abagabo cyangwa abagore, ahubwo ari abantu bose muri rusange.

Abakinnyi b'umupira bambaye imyambaro ikoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ifite amabara y'ubururu bwijimye ndetse ibara ry'icunga n'umweru bakaba bari mu kibuga gifite ubwatsi butoshye aho bari gukina umupira w'amaguru.

Mu muhanda udakoze neza ndetse w'ibitaka harimo umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara, akaba ari kuvugira kuri terefoni. Hirya yaho kandi hari ibihingwa bitandukanye, birimo itsina ndetse hakaba hari n'ibiti.

Umusore ukiri muto, wambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umukara, afite indobo, acururizamo ibikomoka ku birarayi na none kandi hari inyubako z'ubucuruzi zifite amabara y'umweru ndetse n'ipikipiki.

Umuhanda wubatswe mu buryo bugezweho, ufite ibara ry'umukara ndetse n'umurongo muremure ufite ibara ry'umuhondo uwunyuramo hagati. Uwo muhanda kandi ukaba ufite utuyira twagenewe abanyamaguru na none kandi ukikijwe n'inzu zirimo iz'ubucuruzi ndetse n'izo guturamo.

Agahanda k'igitaka gakikijwe n'ibyatsi bitoshye ndetse ku mpande hakaba hari umuyoboro w'amazi, wubakishijwe amabuye, uwo muyoboro ukaba utwara amazi mu gihe cy'imvura kugira ngo atangiza ibikorwa bitandukanye na none kandi hari inzu yubatswe mu buryo bugezweho, isakaje amabati afite ibara ritukura.

Mu muhanda mwiza cyane ufite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru harimo ikinyabiziga k'ipikipiki n'umugabo ukiriho, icyo kinyabiziga kikaba kifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, muri uwo muhanda kandi harimo n'ikinyabiziga k'imodoka.

Agahanda k'ibitaka gakikijwe n'ibyatsi bitoshye haba mu mpande zose. Ako gahanda kandi kakaba kari kunyurwamo n'abanyamaguru, hakurya yako hari indabo nziza zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.